Abasore benshi bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umutuku bafite terefone mu ntoki zabo barimo barafotora imbere, uko bisa hari igikorwa kirimo kiragenda.

Inyubako zigerekeye hino icyapa kigaragaza yuko ari inzu y'abashinzwe umutekano bo mu gihugu cy'u Rwanda iherereye ku Muhima.

Abantu bahagaze bambaye imyenda isa y'ubururu n'umweru n'abandi bicayeba babayobozi harimo n'abashinzwe umutekano.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye emoto ziri ho abagabo wambaye utugofero tw'umutuku n'umuhondo ndetse n'akamodoka kagendera ku mapine atatu k'ubururu.

Imbuga irimo imodoka zigera kuri eshatu zifite ibara ritukura, uko bisa aha bahigishiriza gutwara ibinyabiziga n'amategeko y'umuhanda.